Inyubako nziza cyane irimo amakaro, ifite na parafo nziza irimo amatara meza yaka neza, amatara agiye atandukanye ni inyubako y'ubucuruzi bacururizamo amavarisi ndabona amavarisi y'umutuku, ay'umukara amavarisi meza cyane.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi hari ikimaneke bambitse akajipo n'agashati byiza, inyuma ye hari akayetajeri gakozwe n'amabara y'umweru na pinki, inkweto.

Umukobwa u uzikaeza yambaye akajire k'umweru, ipantaro y'umukara afite imisatsi y'imikara, arishimye, ari kureba imyenda, inyuma ye hari ingofero nziza, hari akavaze karimo indabo, ingofero y'umutuku nziza.

Inzu bacururizamo amata, bacuruza amata meza. Haruguru y'inzugi zifite amaba y'ubururu hari umwana wanyweye amata ufite imisatsi, hari firigo babikamo amata, harimo umuntu ucuruza amata, amazi, amata y'Inyange afunitse.

Akabati karimo ibikombe, amatasi, ibirahure, indobo irimo amandazi, etajeri iteretsemo amata, amata yo mu makarito, amazi, amasahani, amata y'Inyange yo mu makarito.

Umugore n'umugabo barangariye muri telefone yambaye poshete isa umukara umugabo yambaye rinete, umugore yarasutse yiteze akantu karimo amabara y'umuhondo hasi hari amabara ya emutiyeni asa umuhondo.

Isoko ririmo abantu bagiye batandukanye, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hahubatswe n'amatafari ahiye hariho amadirishya y'amabara y'umweru, amarangi y'umweru, amatara yaka umweru, harimo aho bavunjira amafaranga.

Amatara meza, amarangi meza, asa umweru, utubati twiza, intebe, amatapi, ibicuruzwa bitandukanye biri ahantu heza.

Inzu nziza cyane, irimo matara meza yaka umweru, hagiye hasizwe amarange y'umutuku, andi y'umweru, kizimyamwoto, hirya yaho hari amatara yo kumuhanda, ishyamba, indabyo.

Inyubako nziza cyane irimo hoteri, ahantu heza, harimo intebe nziza cyane, zigizwe n'amabara y'umutuku, umukara, harimo abantu harimo indabyo nziza, amatara meza inyubako nziza cyane, igaragara neza.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo butangaje, mu buryo bwiza cyane, igizwe n'amatara menshi, igizwe n'amabara y'ubururu, umutuku, umuhondo, umukara ni ahantu heza cyane hagaragara nk'ahantu ho kuruhukira kandi heza.

Umugabo yambaye ishati y'umukara ahagaze aho babikuriza amafaranga imbere hari umugore wambaye umupira w'umweru n'ubururu yambaye ikote ry'umukara akaba afite amafaranga mu ntoki agiye kubona umugabo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo amashu, amatungurusumu, voka, ibibiriganya, amashufurere, amasereri, inyanya, puwavuro.

Etaje ndende igizwe n'ibirahure byinshi, ibiti biyikikije, amatara yo ku muhanda hari icyapa gifite abara asa umuhondo, umweru n'ubururu.

Inzu nziza cyane isizwe amarange y'umweru ifite parafo nziza cyane harimo amatara meza, hariho inzugi zisa umukara, amakaro y'umweru n'umukara hanze hari indabyo nziza.

Inzu nziza cyane yo guturamo irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hariho ibishushanyo, televiziyo imanitse, akameza karekare gasa umukara, intebe, utumeza twiza, amatara meza asa umweru, parafo nziza cyane ikozwe na langete.

Umugabo wambaye ijire irimo amabara y'umukara n'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, hirya ye hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku.

Nziza cyane igizwe n'amabati meza igizwe n'ama esikariye inyubako irimo ibyumba bine irimo aho bogera n'ubwiherero inyubako iteyemo indabyo amapave ifite amabara meza cyane amadirishya meza amatara meza cyane.

etaje igizwe n'umukaro, inzugi z'umukara amapafi imbere yayo isizwe amarange y'umweru, imbere yayo hari umugabo wambaye ipantaro ya kacye shati y'umweru n'ikote hirya yayo hari indabyo akajrideri.

Inzu ikiri kubakwa yubakishijwe amatafari, imbere yayo hahagaze umuhungu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ijingisi, hejuru yayo hari umuntu uri gusakara asakaje amabati asa umweru.

Supermarket nziza cyane igaragara neza, harimo amatara yaka neza yaka mwero. Harimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, amaji, amahenikeni, amabavari y'amasavana, amarediburu, amafanta, amakoka, n'ibinyobwa byinshi cyane.

Inyubako irimo abantu batandukanye abakozi bayikoramo, abakiriya baje kuyihahamo, inyubako igaragara neza cyane iraka neza, irimo ibintu bigiye bitandukanye ibiribwa, ibinyobwa n'abakiriya baje kubigura bagiye batandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo umugabo wambaye ishati ya karokaro, ipantaro y'ijingisi, inkweto z'umukara, mu bicuruzwa byo kunywa, amashoka amabiswi, amata.

Umukobwa ufite agapaniye bahahiramo, imbere ye hateretse ubuki, inyuma ye hari umukobwa wambaye umweru n'umukara, niwe wakira abantu muri iyi nyubako yabo y'ubucuruzi, hari n'undi mwana w'umukobwa uri inyuma nawe waje guhaha.